Abanyeshuri bari mu ishuri bambaye amashati y'umweru, bicaye ku ntebe babiri babiri bafite amatsiko kandi bateze amatwi ibyo mwarimu ari kubabwira, aba banyeshuri harimo abahungu n'abakobwa.

Umurima uteyemo imyumbati n'amateke, mu murima harimo umuhungu n'umukobwa, bambaye itaburiya z'umweru, umuhungu yambaye uturindantoki, bari gukora ubushakashatsi muri uwo murima.

Ishuri ry'ubumenyingiro ryigisha abanyeshuri ibijyanye n'ubwiza. Abanyeshuri bigamo biga gusuka, kogosha, ndetse no kudefiriza. Bakadefiriza abantu bakanabogosha, kugira ngo batahe bameze neza. Ariko na bo babasigire amafaranga.